Hari amacupa, amacupa y'umweru, rimwe muri ayo macupa hashushanyijeho amatungo: hariho inkoko, hariho ingurube, harimo ihene, hariho intama, hariho n'inka.

Aba ni abahinzi, barimo gutera imyaka. Imbere yabo hari umufashamyumvire, uri ukubereka uko bagomba gutera imyaka. Inyuma yabo hari urutoki, urutoki rumeze neza cyane.

Hari igiti igiti cy'indimu hariho indimu zitarizatukura, hakurya hari igipangu harimo n'ikigega muri icyo gipangu harimo igiti.

Izi ni inkoko zimwe ziraryamye, izindi ziri gutora, zimwe ziri hasi, izindi ziri ku biti, hari n'akantu imbere yazo karimo amazi.